Biritamu; ikaba ari kampani itanga ubwishingizi ku bijyanye n'ibinyabiziga. Umukobwa n'umuhungu bicaye mu modoka, kuko baguze ubwishingizi bw'ikinyabiziga cyabo, nta bwoba bafite.

Ihahiro ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, hakubiyemo ibyoku kurya urugero nka biswi, amasambusa, amandazi harimo kandi n'ibyo kunywa nka ji, yahurute n'amata.

Icyapa kinini cyane cyamamaza kampani y'ubwishingizi mu binyabiziga, ikaba yitwa Oto inshuwarensi, itanga ubwishingizi bw'ibinyabiziga bitandukanye harimo moto n'imodoka.

Radiant inshuwarensi kampani, ni ikigo gitanga ubwishingizi bugiye butandukanye, bwaba ubw'ubuvuzi bw'umuryango wawe, kandi bakaba batanga ubwishingizi bw'ibinyabiziga n'ibindi, kuri bo isezerano ni isezerano.

Bilitamu, ikaba itanga ubwishingizi bugiye butandukanye, urugero: ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro, ubwishingizi bw'imodoka, ubwishingizi bw'ubutaka, n'ubwishingizi bw'ubuzima. U Umugabo uyiriho yahawe ubwishingizi bwo kuba yakirinda inkongi y'umuriro.

Umugabo wambaye imyenda y'umweru n'ingofero, akaba ari umuyobozi uhagarariye radianti, ari gushyikiriza amafaranga uwitwa Nyiramaza Mariya, akaba agiye kuyamuha kuri sheke.

Icyapa kinini cyane cyamamaza kugira ngo babashe kuba babamenya, uwitwa Pam Martin ufite nimero gatatu gatatu kane karindwi ikenda kane kane kane gatandatu kane niwe ukiriho.

Urujya n'uruza rw'abaturage bari hafi y'inzu nini cyane, ikorerwamo imirimo igiye itandukanye y'ubucuruzi butandukanye, hafi yaho hari amatara amukira umuhanda, agiye ariho ibyapa byamamaza.

Biroroshye kandi birizewe ushobora kwaka inshuwarensi ku buryo ushobora kubaho udamaraye nta bwoba bw'ubuzima ufite, icyapa kinini cyane cyamamaza vizitazi inshuwarensi.

Radiyanti yacu. Tugufitiye ubwishingizi bw'inkoko. Umworozi yishyura mirongo itandatu ku ijana, leta ikamuha nkunganire ingana na mirongo ine ku ijana by'agaciro k'ubwishingizi bw'inkoko. Icyitonderwa: inkoko zishingirwa harimo inkoko zitera amagi n'inkoko z'inyama, nyuma y'iminsi cumi n'itanu inkoko ivutse.

Apurikasiyo ya banke ikoreshwa n'abakiriya ba banki mu gihe bashaka kuba bakohereza amafaranga kuri konte zabo cyangwa se kuri konte ya zigama, kandi bashobora no kuba bakohereza amafaranga kuri konte ya mobayiro mani cyangwa kuri konti z'andi mabanki bibereye mu rugo.

Uburyo bwiza kandi bwizewe ushobora gukoresha apurikasiyo ya banki ukohereza amafaranga. Ukayoherereza inshuti yawe, umuryango wawe cyangwa abana bawe bari mu kindi gihugu kandi mu buryo bwihuse bwizewe.

Beka yacu! Urakaza neza. Ushobora gufungura urubuga rwa beka muri telefone yawe, cyangwa mudasobwa yawe. Ukaba wakakiraho serivise zigiye zitandukanye, kandi ukazibona utiriwe ujya kuri banki.

Apurikasiyo ya banki yifashishwa mu kuba umuntu yakohereza cyangwa se akakira amafaranga, ishobora kandi kwifashishwa mu kugura ibicuruzwa ndetse no kwishyura serivisi zigiye zitandukanye ukoresheje banki.

Apulikasiyo yabanki yerekana uburyo taransagisiyo zitandukanye ziba zagiye zikorwa, akaba ari taransagisiyo y'uwitwa Hirwa Hybert, banki ya Equity irimo irerekana, ikaba igaragaza uko ukwezi kwe kose kwagenze.

Akawunti hisitori akaba ari imbonerahamwe cyangwa se risite igaragaza uburyo konti y'umuntu yagiye yakira amafaranga kandi ikohereza amafaranga mu buryo bugiye butandukanye.

Butike irimo ibikoresho byinshi bitandukanye byose biri ku isoko, urugero harimo imipira myiza yo kwambara iriho ibishushanyo byiza bigiye bitandukanye, hari kandi n'amashakoshi y'abagore ndetse n'ay'abagabo.

Ibicuruzwa bitandukanye byose biri mu iduka rimwe, urugero amashakoshi, akaba ari meza cyane kandi afite amabara agiye atandukanye, urugero harimo ay'umweru, ay'umukara, aya kake ndetse n'andi mabara.

Umuhanda munini hakurya y'umuhanda hari inzu nini icururizwamo ibintu bitandukanye hari icyapa cy'amata n'icyapa gicuruza farumasi n'imiti itandukanye.

Iduka ricuruza imyenda harimo amashati y'amabara atandukanye, ay'ubururu, ay'imikara, ay'imyeru ndetse n'andi mabara. Hakoramo abakozi bagiye batandukanye, umwe ni we wakira amafaranga, undi agenda yereka abakiriya.

Ibikoresho bitandukanye bigaragaza umuco nyarwanda, ifoto y'umugabo uri hagati y'inka bigaragarako azicyuye azivanye kuba zarishe.

Iduka ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byiganjemo iby'umuco Nyarwanda, imyenda, imitako yo muri saro ndetse n'iyo ku mubiri. Byose bikaba ari ibicuruzwa byerekana umuco gakondo.

Ikamyo yo mu bwoko bwa hoho ikaba ifite ibara ry'umweru, yifashishwa mu gutwara ibicuruzwa ndetse ikaba itwara ibikoresho by'ubwubatsi akenshi, kandi ikabigeza aho bigiye.

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota ravafo ikaba ari hayirenda kandi ni hayiburidi yo mu mwaka bibiri na cumi na kabiri, ifite ibara ry'umukara kandi iri ku isoko iragurishwa miliyoni makumyabiri n'eshanu zonyine.

Imodoka nziza cyane y'umukara, ikaba ikodeshwa ariko ikaba ifite purake nziza cyane y'abaviyayipi. Bikaba bisobanuye yuko ishobora gutambuka isaha iyo ari yo yose kandi idahagaze.

Imodoka y'uruganda Benz Mercedes irimo kugurishwa, ikaba iri i Kigali kandi umuntu wese uri tayari kuba yayigura ashobora guhamagara kuri nimero zikurikira: zeru karindwi umunani gatandatu gatatu gatatu umunani kane icyenda kane.

Igiceri cy'u Rwanda cyanditseho banke nasiyonari di Rwanda, bigaragara ko cyakozwe mu mwaka w' igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi, kandi iki giceri gishushanyijeho igitoki bigaragara ko mu Rwanda haba insina nyinshi.

Imodoka y'umukara yakiya ikaba iri kugurishwa na Kigali karisi maketi. Imodoka nziza cyane ifite imyanya itanu, ikaba ifite ibara ry'umukara iparitse ahantu ushobora kuba wayisura uko ushatse.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ingofero, ariwe muyobozi uhagarariye Akagera motozi, ari gushyikiriza umugabo mugenzi we wambaye tisheti ya papo kandi ari kumuha imodoka yaguze yifashishije Akagera motozi.

Kiyosike ikorerwamo n'abagabo bashinzwe kuvunja amafaranga agiye atandukanye. Urimo imbere ni umukozi w'iyo kampani hanyuma, uri inyuma wambaye agapfukamunwa n'ingofero y'umukara akaba aje kubitsa ndetse no kuvunjisha amafaranga ye.

Umugore wambaye amarinete kandi yambaye ikanzu y'umutuku, imbere ye hari imashini ifotora impapuro, kandi ari gukoresha imashini yifashishwa mu kubara amafaranga ku buryo itibeshya.

Inote y'amafaranga ijana, yakozwe na banki nasiyonari y'u Rwanda, yabaga isa ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru. Gusa iyi note ni iya kera kuko ntago igikoreshwa muri ibi bihe.

Equity bank, ikaba ifite abakozi bagiye batandukanye, umugabo wicaye mu biro akaba yaje kwaka serivisi zigiye zitandukanye, zaba iz'imari, inguzanyo ndetse n'ibindi.

Igiceri, cyo mu gihumbi kimwe, magana cyenda, mirongo irindwi, na karindwi, banki nkuru y'u Rwanda yakoreshaga, kikaba cyari kiriho igitoki, bikaba byaragaragazaga yuko bisobanura ubukire.

Inoti z'igihumbi z'amanyamahanga nyinshi cyane, ziri mu ntoki z'umugabo waje kuba yazivunjisha kugira ngo bamuhe amafaranga yifuza, ashobora kuba ashaka amayero, amadolari cyangwa se ayo mu kindi gihugu kindi.

Imashini y'ikoranabuhanga yifashishwa mu kugira ngo ibare amafaranga, ibi bikarinda kwibeshya k'umuntu kandi ikaba yemera inoti nzima gusa. Iyo atari inote yemewe n'amategeko iyikuramo.

Igiceri cya makumyabiri kikaba cyarakozwe na banki nkuru y'u Rwanda. Kikaba gifite imbere hacyo hariho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Umukozi wa banki ari mu kumba, arimo kubariramo amafaranga, afite imashini iri imbere ye imufasha kuba yabara amafaranga nta kwibeshya, kandi bikamurinda ko yahabwamo inote itemewe n'amategeko.

Abagabo n'abagore batandukanye, bazindukiye kuri banki kugira ngo babitse kandi babikuze amafaranga yabo. Banki yitwa NC banki. Bombi barashaka ibintu bimwe.

Kiyosike y'Inyange icururizwaho amata. Hari utubido tuhatondetse kugira ngo tuze gushyirwamo amata, bityo ba nyiratwo, badutware turimo amata bifuza.

Ihahiro ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, hakubiyemo ibyoku kurya urugero nka biswi, amasambusa, amandazi harimo kandi n'ibyo kunywa nka ji, yahurute n'amata.

Icyuma gitanga amata. Kiba kibitse amata, kugira ngo atangirika. Ushobora kuza kugura amata, bitewe n'ayo ufite, kikaguha amata yacyo.

Itereyi iriho amagi, amagi icumi akaba ashobora kuba yakifashishwa mu guteka umureti bityo umuntu akabasha kuwurya akamererwa neza.

Inyange mIriki zone kikaba ari icyuma kibarizwaho amata y'Inyange, umukozi ugikoraho yambaye itaburiya y'umweru kandi arimo aravoma, arimo arabuganiza amata mu kabido kugira ngo ayahe umukiriya.

Kantine icuruza ibintu bigiye bitandukanye, higanjemo amata, ji y'inyange, amagi, ibyo kurya bigiye bitandukanye nka biswi ndetse n'ibindi.

Umukozi ushinzwe gucuruza amata ku cyuma k'inyange, bakaba bafite n'ibindi bigiye bitandukanye, urugero: amagi, ji, fanta, amata yo mu bikarito ndetse n'izindi.

Inyange miliki zone, ifite abakozi bayikoramo batanga serivisi zigiye zitandukanye zose waba ukeneye. Bakaba bafite amata meza cyane aba akonje, kandi y'umwimerere.

Capati itetse neza cyane iri mu kiganza cy'umugabo ugiye kuyirya kandi iruhande rwe hateretse n'igikombe cy'amata, akaba agiye gufata ibya mu gitondo.

Uburyo bworoshye kandi bwihuse ushobora kwishyura wibereye iwawe, mu buryo bworoshye bigahita bigera k'uwo wishyuye, koresha uburyo bwa pay pal maze bikorohere kandi ukoreshe ikoranabuhanga.

Teganyiriza ahazaza h'umwana wawe. Amafaranga make ushobora gutangiza, none yakubaka ejo hazaza heza h'abana bawe. Biroroshye! Izigamire na sipeni, maze uhabwe inyongera.

Isoko harimo abantu batandukanye bajya guhaha ibintu bitandukanye harimo, bodaboda. Harimo n'abandi bantu bacuruza ibitenge, imyenda yo kwifubika n'ibindi.

Peyipali uburyo bworoshye kandi bwizewe bwo gufungura konti ya peyipali nawe ukinjira mu isi y'ikoranabuhanga biroroshye cyane ukajyayohereza ndetse ukishyura ukoresheje telefone yawe.

Nara ni uburyo bworoshye kandi bwizewe umuntu ashobora gukoresha mu gihe ashaka kohereza amafaranga mu kindi gihugu, ku nshuti ye, ku muryango we, ku bana be ndetse n'abandi, biroroshye kandi birihuta.

Ushobora gukoresha speni maze ukishyura serivisi zigiye zitandukanye, ushaka gusikana kode speni ukoresheje telefone yawe maze bikakorohera kandi bikihuta kwishyura ukoresheje spen.

Uburyo bworoshye kandi bwizewe bwo kwishyura ukoresheje Eyateli mobayilo mani. Kandi bikaba byoroshye kuko birihuta. Kandi uhabwa inyongera iyo ukoresheje Eyateli.

Peyipari tu mobayiro mani, bukaba ari uburyo bworoshye kandi bwihuse ushobora gukoresha Peyipari ukaba wakohereza amafaranga kuri mobayiro mani biroroshye kandi birihuta.

Uburyo bworoshye kandi bwizewe, ushobora kuba wakoresha wohereza amafaranga cyangwa se ukayakira, ukoresheje terefone yawe kandi bakagukata amafaranga makeya yo kohereza.

Fagitire igaragaza yuko kuri ManeyGram habereye taransiferi kandi ikaba yabashije kugera kuri nyirayo, ikaba ari fagitire itangwa kugira ngo buri muntu abashe kuba yakizera y'uko MoneyGram yizewe.

Fagitire yatanzwe n'ikigo Rwanda Revenue Authority, kigaragaza yuko uwitwa Mushyirahamwe Gregoire yamaze kwishyura umusoro kandi akaba yishyuye mu buryo bwa online.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu yifashishwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'igisanduku cy'ibyuma iparitse iruhande rw'umuhanda, aho itegereje gushyirwamo imizigo. Izi modoka zikaba zifashishwa mu kworoshya serivisi z'ubwikorezi hirya no hino mu gihugu. Aho zifashishwa mu kugeza ibintu mu bice bitandukanye by'igihugu.

Risite yanditse ku rupapuro, igaragaza ibikorwa byagiye bikorwa ndetse n'amafaranga byatwaye, bikaba bitondetse neza, bakurikije ibyagiye bitwara amafaranga menshi.

Icyumba kigaragara nkaho hari ahantu bigira ikoranabuhanga, hari abagabo babiri ndetse hari n'undi utari kugaragara neza, umwe yambaye ishati y'iroze undi yambaye ishati y'umutuku irimo utubara tw'umukara, imbere yabo hari amaterefoni menshi bigaragara ko bari kwihugura.

Imashini yifashishwa mu kubara amafaranga, iba iri ahantu henshi kuri kiyosike zikorerwamo n'ibiro bishinzwe ivunjisha ry'amafaranga. Iyi mashini ibafasha kubara amafaranga batibeshye.

Inote zigiye zitandukanye harimo iz'amayero amadorari ndetse n'ayandi, kandi ziraziritse neza kugira ngo zihabwe umuntu uje kuvunjisha, bitewe n'ayo ashaka rwose baramuvunjira.

Utubati twiza dushyashya bari gusiga amarangi ukaba wadukoresha ubikamo ibintu yaba imyenda, ndetse n'imitako.

Inote nyinshi cyane zo mu Buhinde za magana atanu, zikaba ziba ziriho ishusho y'umugabo bubahaga cyane witwa Mahatma Gandhi, akaba yarafatwaga nk'umwigisha w'amategeko.

Inote zigiye zitandukanye, harimo amadolari ndetse n'izindi noti zo mu kindi gihugu cy'Abarabu, z'amafaranga ijana. Umugabo arimo kuzibara neza kugira amenye ayo aha uje gusaba serivisi yo kuvunjisha.

Table nini cyane igaragaza uko ifaranga rivunjwa bitewe n'urigura ndetse n'ibyo ashaka, amadolari, amafaranga yo muri Singapore, ayo mu Bushinwa, ayo mu Buyapani, ayo muri Malezia n'Amayero.

Inote ya mayuwani, akaba ari amafaranga akoreshwa mu Bushinwa, ikaba ari inote yanditseho iyuwani rimwe, ikaba ari iyo mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda.

Amafaranga agiye atandukanye yo mu bihugu bigiye bitandukanye, higanjemo inote zitandukanye z'amafaranga yo mu Buhinde, hariho umugabo witwa Mahatma Ghandh.

Taburo nini cyane yerekana uko isoko rihagaze amafaranga uko arimo kuvunjwa kugeza ubu ngubu, amadolari, amafaranga yo mu Bwongereza y'amapawunndi, amayero, amafaranga yo muri Buyapani ndetse n'ibindi.

Inote zitandukanye zo mu Bushinwa, iyi note y'ijana ifite ibara ry'umutuku, hanyuma inoti ya mirongo itanu ifite ibara ry'icyatsi, hakaba n'izindi note zigiye zitandukanye.

Ikinyabiziga k'ibinyamitende kikoreye kigaragara cyakorewe mu Rwanda n'abagabo batambuka muri iyo kaburimbo n'imodoka nyinshi ziparitse zitegereje abagenzi.

Inote zitandukanye, ziganjemo amadolari ndetse n'izindi note z'ibihumbi ijana, zifite ibara ry'umutuku. Umuntu azanye amadolari, agiye kuvunjisha bamuhe izo note.

Amafaranga y'abanyamahanga y'inote, ari mu ntoki z'umugabo wambaye impeta ndetse afite na telefone mu ntoki, aje kuyavunjisha kugira ngo bamuhe ayo yifuza kubona.

Taburo igaragaza uburyo amafaranga y'amahanga ni ukuvuga ayo muri Australia, Brazil, Canada, China, Denmark, amayero, amadolari, yose akaba agaragaza uburyo avunjishwamo.

Kiyosike ya biro de shanje ikorerwaho serivisi zigiye zitandukanye zerekeranye n'izo kuvunja amafaranga y'ibihugu bigiye bitandukanye amadorari, amapawundi ndetse n'ayandi.

Kiyosike ikoreramo ibiro bishinzwe kuvunja ndetse no kuvunjisha amafaranga y'amanyamahanga, ushobora kubahamagara kuri zeru karindwi imani ibiri gatandatu kabiri icyenda rimwe mirongo itatu.

Kiosque ikoreraho ibiro bishinzwe kuvunjisha ndetse no kuvunja amafaranga y'amanyamahanga agiye atandukanye haba hari taburo nini cyane iriho amafaranga uko avunjwa ndetse n'uko avunjishwa kugira ngo buri muntu abibone.

Inote z'amadorari, ziri guhererekanywa hagati y'umuguzi ndetse n'umugurisha, bakaba bagiye kuyavunjamo bitewe n'ayo umukiriya ari bube yifuza, kandi baramuha ahwanye agaciro n'ayo atanze.

Taburo igaragaza uko amafaranga y'amanyamahanga avunjwa ikaba iriho amadolari, amayero, amafaranga yo m'u Busuwisi ayo muri Awusitarariya ayo muri Japani n'ahandi.

Icyapa kinini cyane cyanditseho BPR banki, Western union, MoneyGram, WorldRemit ndetse n'ibindi, bakaba batanga serivisi zigiye zitandukanye, ushobora kuzikoresha ukohereza amafaranga wibereye aho uri, akagenda akagera k'uwo uyoherejeho ari mu bihugu by'i Burayi.

Kiyosike ikoreramo ibiro bishinzwe kuvunjisha amafaranga y'amadolari, amadevize ndetse n'andi yose agiye atandukanye. Iyo ushaka amayero, ukazana amanyarwanda, bakuvunjira neza neza ahwanyije agaciro na yo.

Ameza asa umutuku, akozwe mu giti, ari kumwe n'intebe zayo, uko ari zirindwi, kandi zose zikaba zifiteho imisego y'umukara, ziteretse hanze kugira ngo zumuke.

Intebe ndetse n'ameza byose bikoze mu giti, bikaba biri mu cyumba cy'ururiro kugira ngo abagize umuryango bajye babasha kwicaraho basangirire hamwe kandi baganira bishimye.

Ibikoresho byo mu nzu byo mu ruganiriro byiganjemo intebe, ameza, byose bikaba bikozwe mu giti, birakomeye kandi biraramba kandi binogeye ijisho.

Ibikoresho bikoze mu biti byiza cyane, ameza manini akozwe mu giti ndetse n'intebe zayo uko ari esheshatu, bikaba ari ameza yo kuriraho kandi ateretse hanze rwose.

Intebe ziri kumwe n'ameza yazo byose bikaba bikozwe mu biti, biteye amabengeza kuko bikoze neza cyane, bikaba biteretse mu cyumba cyo kuriramo kandi zirahakwira neza kuko ari hanini.

Intebe nziza cyane yo kwicaramo ikozwe mu biti byiza, ikaba ibereye ijisho, iteretse ku zuba kugira ngo ibe yuma maze ba nyirayo baze kuza kuyitwara imeze neza.

Intebe nziza cyane zifite ibara ry'icyatsi, zikaba ziri muri saro nini kandi nziza, irimo ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, inyuma hari ibiro birimo intebe ndetse n'imashini iteretse ku meza.

Imeza ikozwe mu giti ifite amaguru y'ibyuma, ikaba iteretse hanze kugira ngo ibashe kuma bityo ibashe gukoreshwa ibyo yateguriwe.

Serivisi za banki ya kigali zegerejwe abaturage ahanga baragaragaza uko ibikorwa biri kugenda bikorwa aho bagaragaza ko batanga serivisi zo kubika, kubikura, kuguriza ndetse no kwakirana yombi abakiriya bakagira bati murakaza neza.

Hoteli nziza cyane iherereye ku mazi, ikaba ifite aho abantu bashobora kwicara baganirira kandi ari nako baryoherwa n'amafunguro meza cyane baba babateguriye, kandi bakayabona kuri gahunda.

Inzu nziza cyane ya hoteri ifite aho mushobora kuba mwakiyakirira hari amafu meza cyane kuko imbere yaho hari jaride irimo indabo ndetse n'ibiti byiza binogeye ijisho.

Hoteri nini kandi nziza cyane, ifite ubwogero pisine bugari, kandi ikaba ifite ubusitani bwiza cyane bubereye ijisho burimo ibiti ndetse n'indabo bibereye ijisho.

Pisine ikoreshwa mu kuba abantu ba koga bakishimisha, hafi yayo hari ibiti byiza n’indabo binogeye ijisho ku buryo ababireba bumva bishimye.

Ni kwa muganga imbuga yaho isashishije amapave hari ubusitani kandi burimo ibiti birebire n'indabyo ngufi ya hari parikingi iparitsemo imodoka imwe y'umukara n'imodoka ebyiri zishinzwe gutwara abarwayi.

Icyumba cya hoteli cyiza cyane kiba kirimo uruganiriro kandi ni naho serivisi zisabirwa, hakaba hasa neza hari amatara meza y'umuhondo kandi harasukuyewe rwose.

Ofisi za kampani itanga ubwishingizi, bwaba ubwo kwivuza, ubw'ibinyabiziga, ubw'inkongi y'imiriro, yitwa Buritamu. Bakaba bagiye kuhataha ku mugaragaro.

Ibiro binini kandi bigari bikorerwamo na kampani itanga ubwishingizi bugiye butandukanye mu Rwanda, urugero ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubw'inkongi y'umuriro ndetse n'ubwishingizi bw'ubuzima.

Icyapa kinini cyamamaza kampani y'ubwishingizi, haba mu kwivuza, haba ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro, ubwishingizi bw'imodoka, ubwishingizi bw'inzu, ubwishingizi ubwo aribwo bwose barabutanga.

Hoteli nziza cyane, igeretse kane. Ikaba yubatse ahantu heza, hari ubusitani bunini burimo indabo, ndetse n'utwatsi twiza cyane. Harimo kandi ibiti byiza, bibereye ijisho.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, wicaye mu ntebe ndetse afite imashini imbere ye iteretse ku meza kandi yicaranye n'undi mugabo, wambaye ishati y'umutuku, bose bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ikinyabiziga gishinzwe gukora imihanda kiri mu busitani ndetse inyuma y'ubwo busitani hari inganda izo nganda zisize amabara y'umweru n'urundi rusize irangi ry'ibara ry'icyatsi ryerurutse izo nganda ziri ahitaruye.

Radiyanti radiyanti inshuwarensi kampani, ahari ibiro byabo hari umugabo wambaye ikote ry'umukara wicaye ategereje kugira ngo abantu nibaza gusaba serivisi zitandukanye abakire.

Inzu nini cyane ikorerwamo n'ibigo by'ubucuruzi bigiye bitandukanye, hakaba hejuru hakoreramo ikigo Eyiji gurupe ndetse ku ruhande rwayo hagakoramo Inshuwarensi ajenti hafi y'aho ni Mowa inshuwarensi hanyuma munsi hagakoreramo Sonarwa.

Wayitunga nawe, umukobwa wambaye ikanzu y'umweru uri mu modoka nziza cyane, urimo kwamamariza bank of africa BMC group, y'uko hari inguzanyo y'ibinyabiziga yabonetse.

Banki ikaba itanga serivisi zigiye zitandukanye, umugabo umwe waje kwaka inguzanyo arimo kwandika imyirondoro ndetse na aderese byiwe, umugore w'umukozi wa banki we, arimo aramubarera amafaranga agiye kumuha.

Hari ahanditse hati dore uko wamenyekanisha avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu ukoresheje telefoni, hari moto y'umutuku n'umukara, ndetse n'imodoka y'umweru n'umuhondo, hari telefone inyuma yayo yanditsemo akanyenyeri magana inani urwego.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, higanjemo imitako, yaba iyo mu nzu ndetse n'iyo ku mubiri, ikaba ari imitako ijyanye n'umuco nyarwanda, kuko harimo ibiseke ndetse n'ibindi byinshi.

Isoko ririmo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo ibikapu, harimo imyambaro, inkweto ndetse n'ibindi, hari kandi n'abatayeri bifashishwa mu kuba bashyira ku murongo imyambaro iba ibiguzwe.

Abagabo batatu aho bicaye umwuka umwe akaba yambaye ikote ry'umukara ndetse akaba yambayemo n'ishati y'ubururu, abandi babiri bakaba bambaye amashati y'mweru, aho buri wese hari akarangururamajwi imbere ye wo hagati akaba ari we uri kuvuga.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye higanjemo imbuto, imineke, imyembe, wota meroni, imyembe minini ndetse n'ibinyomoro n'amacunga.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo indagara kandi abakiriya baje kwihahira ni benshi. Umugore umwe ni umucuruzi, yambaye ikanzu y'igitenge y'umutuku, arimo kwakira abakiriya be.

Ihahiro ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Higanjemo imyenda. Iy'abagabo, iy'abagore, iy'abana, iy'abakobwa, iy'abahungu, ndetse n'iyindi myinshi.

Umugore ufite indobo irimo ibiraha, arimo gucuruza ari kumwe n'undi mugore ufite umwana, bari mu isoko kandi bafite abakiriya barimo kubagurira bitewe nibyo bashaka.

Kiyosike ya MTN mobayiro mani. Ikaba ikorerwamo n'umukozi wa emutiyene utanga serivise zigiye zitandukanye zirimo; izo kubitsa, izo kubikuza, ndetse n'izo gutanga amayinite.

Kiyosike ya mobayiro moni bacururizaho terefone ndetse bakaba batanga n'izindi serivisi zigiye zitandukanye, abakiriya baje babagana bahasanga abakozi bambaye neza cyane mu myambaro y'umuhondo.

Kiyosike ya MTN mobayiro, umukozi wa MTN yambaye ijire kandi afite telefone, kugira ngo atange serivisi zitandukanye nk'izo kubikuza amafaranga ndetse no kubitsa.

Peyi wizi momo, umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'umuhondo urimo kwamamaza momopeyi, kandi akaba afite umukiriya arimo arereka neza ubu uburyo ikoramo.

Kiyosiki ya emutiyene mobayiro mani ikaba itangirwaho serivisi zigiye zitandukanye, urugero nko kuba wakibaruza simukadi kuba wakoresha simu swapu, kuba waguriraho telefoni zitandukanye, kuba wakohereza amafaranga n'ibindi byinshi.

Ba uwa mbere kugira ngo umenye yuko hari urubuga rushyashya ushobora kuba waguriraho imyenda, ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, ukoresheje telefone yawe. Kandi bikakugeraho, aho uri hose mu Rwanda.

Life is forfan miniso magical wowanders awahids ikaba ari game nziza cyane ya minisol ushobora kuba wakina kandi ukagira uburyo bwiza bworoshye ushobora no kuba wafata ikarita ya membership.

Moto ishinzwe kuba yagemura ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ikaba ari iya biruus. Mu buryo bworoshye kandi bwihuse wowe icyo ukora ni ugutanga kommande ubundi nayo ikabinyarukana ikabizana.

Onurayini shopingi puratifomu ni ahantu ushobora kuba wakoresha ugura ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ni apurikasiyo ushyira muri telefone yawe cyangwa muri mudasobwa yawe ukajya uhaha wibereye mu rugo.

Abagore basaga bane ndetse n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati ndetse na karuvati bicaye mu ntebe z'umukara imbere yabo hari ibintu byinshi bitandukanye nk'uducupa tw'amazi, mudasobwa ndetse n'utwuma ndangururamajwi, inyuma yabo hari ibendera ry'u Rwanda ndetse n'ibendera ry'ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda.

Tugufitiye impano duhamagare tuguhe impano. Ushobora kuba nawe wasura ruti Rwanda maze ukagerageza kubona impano idasanzwe y'igabanyirizwa rigera kuri mirongo itanu ku ijana, korana natwe.

Kabeza mu mujyi wa Kigali ushobora kuhabona inzu ifite ibikoresho byo mu nzu, ku madorari magana atanu mirongo itanu yonyine ku kwezi kandi biroroshye cyane birahendutse.

Kibagabaga mu mujyi wa Kigali hari inzu nziza cyane nini kandi ifite parikingi nini cyane, ikaba ari aparitoma kuko ikodeshwa amadorari ibihumbi bibiri byonyine ku kwezi.

Inzu nziza kandi nini ya kadasiteri, ifite amabati y'umutuku, ikaba ifite parikingi nini cyane yajyamo imodoka enye icyarimwe, iherereye i Kanombe, mu Mujyi wa Kigali.

Inzu irimo ubwogero ndetse na tuwarete. Ikaba ifite shawa nziza cyane irimo amazi ashyushye ndetse n'akonje. Bikaba byose hamwe bifite n'amakaro abigaragiye.

I Kigali mu Rwanda ukaba ushobora kubona inzu nziza cyane ikodeshwa amadolari igihumbi ya buri kwezi, i Kigali Kicukiro iyo nzu wayibona ni nziza kandi igereretse inshuro eshatu.

Umuhanda ni igikorwaremezo gifasha abantu bose mu buzima bwabo bwa buri munsi turavuga abamotari, imodoka ndetse n'abandi bantu bawukoresha mu buryo busanzwe burabafasha mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Inzu nziza cyane ya kadasiteri, ifite amabati y'umutuku ndetse n'imireko y'umukara. Isize irangi ryiza cyane ry'ubururu kandi ifite ibirahure binini bya fime.

Inzu nziza ya kadasiteri irimo gukodeshwa, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe, ifite ibyumba bitatu n'ubwogero bubiri, ikodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo itanu by'amanyarwanda ku kwezi.

I Kigali Kacyiru, hari inzu y'icyumba kimwe ndetse na dushe na tuwalete, ikodeshwa. Ikaba ifite ibikoresho byo mu nzu igikoni ndetse n'ibindi. Ku bihumbi magana abiri gusa, ushobora kubona iyo nzu.

Ihahiro rusange ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye ku buryo buri mukiriya wese abonamo ibyo yifuza, uruhande rumwe ruriho inzoga z'ubwoko bwose kandi iyo wifuza yose uyisangamo hano.

Butike ndetse rikaba n'ihahiro rigari ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byiganjemo imyenda yo kwambara, iy'abagabo, iy'abagore, iy'abakobwa ndetse n'indi myinshi.

Umuhanda w'umukara aho uganisha ku bitaro byitwa Sehashiyibe, biri mu karere ka Huye, aho hahagaze umuntu uhagarika imodoka kugirango babanze basuzume icyo uje uhakora, hakaba hari imodoka nyinshi ziparitse.

Isoko rusange ririmo ibicuruzwa byiganjemo imboga n'imbuto, muri byo harimo amaronji, imyembe, pome, amatunda, mu mboga harimo ibitunguru ndetse n'ibindi.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye amashakoshi y'abakobwa ndetse n'ay'abamama, inkweto z'abagabo ndetse n'iz'abasore, imikandara myiza ikomeye kandi iramba.

Arimantasiyo nini cyane irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye kandi bitewe n'ibyo ushaka, biba bigiye biri ahantu hatandukanye, uba ushobora kuyizenguruka kugirango ubone ibicuruzwa byinshi, hakubiyemo ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Ihahiro ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye urugero amavuta, yaba ayo guteka ndetse n'ayo kwisiga, harimo kandi n'ibikoresho bya elegitoroniki. Ushobora kandi kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga bikakorohera.

Ihahiro rusange ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye higanjemo ibyo kunywa, ibyo guteka, ibyo kurya ndetse n'ibindi, iyo ugiye kwishyura wishyura ukoresheje ikoranabuhanga kugira ngo bikorohere.

Ihahiro rusange ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, buri muguzi n'icyo ashaka ashobora kuba yacyishyura akoresheje ikoranabuhanga, bumwe mu buryo bwihuse kandi bwizewe.

Ihahiro rusange ribamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byaba iby'abana, ibijyanye n'iby'abantu bakuru urugero nk'imyenda, imyambaro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye higanjemo imyambaro, amasakoshi, imikandara, inkweto ndetse n'ibindi. Hazindukiyemo abaguzi kugira ngo bigurire ibyo bifuza.

Amafoto agiye atandukanye, yose yometse kuri karite positeri, kandi yose agiye yanyanditseho amagambo bitewe n'ibihe byiza bagiye bagirana. Umukobwa ni we ufite iyo karite positeri.

Ejo Heza gurupe, ni uburyo leta y'u Rwanda yashyizeho, ku buryo ushobora gutangira kwizigamira amafaranga muri Ejo Heza, bityo ukaba urimo urarinda umuryango wawe, kandi nawe wirinda.

Ejo heza ubwizigame bw'igihe kirekire, igihe ugifite imbaraga zo gukora zigamira izabukuru muri iki gihe maze bikorohere kandi ubeho udamaraye.

Abaturage bafite amakarita y'ubwisungane mu kwivuza mituweli atangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize bw'abakozi RSSB, buri muturage wese agomba kuba ayifite kugira ngo yivuze.

RSSB ni ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi abagore babiri barimo baratubwira ibyiza byo kuba umunyamuryango wa RSSB.

Mukanziga Pasikazi afite sheke ye mu ntoki ari guhabwa n'umuyobozi wa Sonarwa wambaye ikote ndetse na karuvate, yambaye na marinete kandi yambaye agapfukamunwa k'umukara neza.

Alimatasiyo irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Hari kandi na firigo zirimo ibyo kunywa kugirango bidapfa. Higanjemo za yahurute, amazi, amata ,amaji ndetse n'ibindi.

Ihahiro rusange ririmo ibicuruzwa bitandukanye higanjemo ibyo kunywa, ibyoku kurya urugero nk'imigati, amasinakisi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byose wabisanga hano.

Ihahiro rigari kandi rinini cyane rikaba ribamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye higanjemo ibyo kurya urugero nk'amabiswi ,nk'amashokora ndetse n'ibindi byinshi .Harimo umugabo wambaye ishati y'umweru urimo kwihahira.

Arimantasiyo nini cyane irimo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, higanjemo amata, amaji, imyembe ndetse harimo n'abakiriya baje gushaka ibyo bifuza.

Ihahiro rusange ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byiganjemo amasinakisi, amabisikwi y'ubwoko bwose, amakaroni ndetse n'ibindi bicuruzwa byinshi cyane bitandukanye.

Icyumba kigaragara nkaho hari ahantu bigira ikoranabuhanga, hari abagabo babiri ndetse hari n'undi utari kugaragara neza, umwe yambaye ishati y'iroze undi yambaye ishati y'umutuku irimo utubara tw'umukara, imbere yabo hari amaterefoni menshi bigaragara ko bari kwihugura.

Arimantasiyo ihahiro rinini cyane riba ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye buri wese n'ibyo yifuza ashobora kuza kubirebamo akaba yabibona bitewe nibyo ushaka harimo ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibindi bicuruzwa.

Ihahiro rusange ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye higanjemo ibyo kunywa urugero, inzoga za henikeni, inzoga zipfundikiye, amaveruje ndetse n'ibinyobwa bidasindisha urugero nka za bavariya na fanta.

Umukozi wo muri supermarket urimo kwakira abakiriya bagiye batandukanye, akaba ashinzwe kwakira amafaranga, ushobora kwishyura ukoresheje telefone yawe, mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Ihahiro rinini cyane ribamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, buri mukiriya aragenda agashakamo icyo ashaka yarangiza akaza kwishyura kandi ashobora kwishyura akoresheje ikoranabuhanga.

Ihahiro rusange ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye urugero ama iyisikirimu ibyo kurya nk'imigati ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, bitewe n'icyo ushaka ushobora gushakira hano kandi rwose ukabibona.